Leta ni nziza cyane, aho usanga yarubatse amashuri atandukanye, ibyumba by'amashuri igafata abarimu batandukanye. Abagabo b'abarimu, abagore b'abarimu, ugasanga bari kwigisha abana guhera muri pirimeri, bigafasha umwana gukura azi gusoma no kwandika, ku buryo yaba agiye ahantu atashobora nko kuyoba kubera ko yize muri pirimeri, kandi akaba azi kwandika no gusoma.

Iterambere riba ryizaa cyane ,aho usanga leta yarafashe mu duce runaka ikubaka ibyumba by'amashuri ,ugasanga nk'abana bafite imyaka irindwi ,itandatu bari kujya kwiga mu mashuri abanza muri pirimeri ,ugasanga umwana amenya gusoma no kwandika ,kandi akajijuka akamenya no gusabana n'abandi ibyo bigafasha leta kubona abana bazi gusoma kandi bazi no kwandika ,n'ababyeyi na bo bakagira abana b'abahanga, kandi bazi ubwenge.

Uburezi ni bwiza cyane, aho usanga nk'umuntu yarize guhera muri nasari, kugeza muri sogonderi no muri kaminuza, akigamo ibintu bitandukanye. Akiga nko muri IPRC, akiga nko gukanika umuriro w'amashanyarazi no kwesitara ibikoresho bitandukanye, by'umuriro w'amashanyarazi, ibyo bigafasha abanyeshuri babyize kwiteza imbere.

Kwiga bibaga byiza cyane, aho usanga umwana yarize muri sogonderi no muri pirimeri, agakomeza kwiga no muri kaminuza, akiga nk'ubukanishi bwa moteri, ibyo bikamufasha gukanika, akabona amafaranga yo kwiteza imbere, ndetse n'abamwigishije bakumva bishimye cyane, ibyo bigafasha n'igihugu gutera imbere, kubera ko gifite abantu babahanga cyane.

Uburezi buba bwiza cyane, aho usanga umuntu yarize akajya kwiga nko muri sogonderi ndetse no muri kaminuza, akiga nko gukanika umuriro w'amashanyarazi no gukanika ibyuma bitandukanye, ugasanga ari kwiteza imbere yarangiza agaha n'abaturage umuriro w'amashanyarazi, ubwo ibyuma byabo byapfa ugasanga yagiye nko kubikanika bigatuma abaturage baba ahantu hamurika.

Uburezi buba bwiza cyane, aho usanga nk'abantu baragiye kwiga ibintu bitandukanye, barisobanukiwe. Ugasanga bagiye nko kwiga nk'ubutetsi, cyangwa se nko gukora mu mahoteli. Ugasanga ari abo bagiye kubyiga, bari kwinjiza amafaranga, ndetse n'abandi bakeneye abakozi, ugasanga babonye abakozi bo kubakirira ababagana. Ibyo bigafasha ba bandi bize, bakabona amafaranga yo kwiteza imbere.

uburezi buba bwiza cyane aho usanga nk'umuntu yaragiye nko kwiga nka hoteleri akiga guteka, gutegura amafunguro ndetse no gutanga serivisi, Ibi bikamufasha wa muntu wagiye kwiga kwiga guteka akamenya guteka akajya ajya gukora mu mahoteli, agatekera abantu bakoze nk'ubukwe akabona n'amafaranga yo kwiteza imbere, ndetse bigafasha na ba bandi bakoresheje nk'ibirori, kurya ibiryo kurya ibiribwa byatetswe n'umuntu wabyize kandi ubizi neza.

Biba byiza cyane, aho usanga Leta yarashyizeho amashuri atandukanye, nko kwiga muri segonderi no muri kaminuza. Ugasanga nk'abanyeshuri bize mo gukanika imashini, bari gukanika umuriro w'amashanyarazi, bari kwiga kudoda. Ibyo bikabafasha kwiteza imbere, kubwo gukanika umuriro w'amashanyarazi, ndetse no kudodera abantu imyenda n'ubukorikori butandukanye.

Kwiga biba byiza cyane, aho usanga Leta yarubatse amashuri atandukanye. Ugasanga nk'umuntu yize nko muri sogonderi ibintu bitandukanye nka hotereri, yarangiza akiga nko kugabura mu mahoteli, akajya ateka akajya atanga serivisi aho bamuhaye akazi. Ugasanga yiteje imbere na ba bandi bamugana ugasanga nabo bafashwe neza, ndetse n'abamuhaye akazi ugasanga babonye abakiriya benshi.

Uburezi buba bwiza cyane ,aho usangaga abanyeshuri bose abana batandukanye ,ari abakobwa ,hari n'abahungu bari kuza kwiga bafite ibintu bitandukanye, bakajya kwiga no muri segonderi, no muri kaminuza, bakiga nko gukora amaradiyo ,amatelefone ,ndetse no gukora umuriro w'amashanyarazi ugasanga biri kubahesha amafaranga kandi natwe badukoreye nk'umuriro w'amashanyarazi ,ugasanga turi gucana ahantu hari kubona, tukabona ibintu bitadukoye kuba hariho umuco.

Uburezi ni bwiza cyane, umuntu asigaye ajya kwiga mu mashuri yisumbuye, akiga gukora amaradiyo, gukora imirasire, gukoresha umuriro rusange, kugira ngo ibyuma dukoresha no gucaginga terefone, ari ugucana amatoroshi y nijoro, iyo byapfaga barabitaga, ariko ubu bisigaye bipfa bakabikora bikongera bikaba bizima.

Uburezi buba bwiza cyane, aho usanga nk'abanyeshuri, ari abakobwa ari n'abahungu, bagiye nko kwiga nko muri segonderi cyangwa muri kaminuza, bakiga gukanika ibikoresho bitandukanye nk'amasaha, umuriro w'amashanyarazi, amataransifo. Ugasanga bageze nko mu giturage, bahaye nk'abaturage umuriro w'amashanyarazi, bagakora ibintu na ba baturage bakiteza imbere. Hari n'abandi bagiye nko ku ishuri, na bo bakabona amafaranga, bakomeza kwiteza imbere.

Uburezi ni bwiza cyane aho usanga umwana avuka akajya gutangira muri Garidiyeni agahita ajya muri Pirimeri biba na ngombwa akajya kwiga muri Segonderi. Aho umuntu yiga ibyo azakora mu minsi izaza bityo bikaba ari byiza cyane kandi tugakomeza no gusigasira uburezi kugira ngo ibyo dukora, ibyo twiga tuzabikoreshe mu buzima bwa buri munsi biduhereza amafaranga mu gukoresha imishinga itandukanye ndetse twiteze imbere.

Uburezi buba bwiza cyane, aho usangaga leta yarubatse amashuri mu duce dutandukanye ,ugasanga nk'abana barize bavuye muri torokome, bavuye muri pirimeri ,ugasanga bize neza, ugasanga abajya muri sogonderi biga babayo nko muri segisiyo ,ugasanga bize nko gushushanya, bagashushanya ahantu runaka ukabona ya mafoto bashushanyije ,bakayajyana ku ruhando mpuzamahanga mu marushanwa, ugasanga amafaranga abatejeje imbere, kandi na bo igihugu kiramenyekanye kubwo kugira abana b'abahanga.

Uburezi buba bwiza cyane, aho usanga nk'umwana yarisobanukiwe akajya kwiga nko guteka, yamara kujya kwiga nko guteka akabona akazi nko muri hoteri zitandukanye, yarangiza akabona n'amafaranga yo kwiteza imbere, bagateza n' imiryango yabo imbere.

Uburezi ni bwiza cyane aho usanga umwana w' umukobwa, bwaramutejeje imbere ari kwiga imirimo y' abahungu bakoraga kera, nk' ubudozi ugasanga umukobwa ari kudoda inkweto nta kibazo, zacitse akazisana inkweto zikongera zigasubirana umwimerere zari zifite mbere.